Umugore ari gukoma amashyi, yambaye isaha, ikanzu itukura, amaherena n'amataratara, iruhande rwe rw'ibumoso hari umutobe w'Inyange.

Abagabo babiri umwe wicaye, undi uhagaze, bakikijwe n'ibyuma basubiriyemo inzugi ndetse n'amadirishya, hasi harunze imbaho bigaragara ko bari kubaka.

Muri stade abana, abakobwa b'inkumi n'abasore bicaye umujyo umwe, muri bo harimo abambaye imikenyero, abambaye mu buryo bwa gitore ndetse n'abandi bambaye mu buryo busanzwe.

Igikorwa cy'umuganda cyahuje inzego z'umutekano, Igisirikare, Igipolisi, Daso n'Abaseviri bari kuringaniza ibyatsi ndetse inyuma yabo hari urutoki rwinshi bari gukoresha amasuka abandi kupakupa.

Umusore wicaye, yambaye amasogisi y'umukara, ikabutura, umupira w'amaboko magufi, yicaye ku gatebe k'ubururu, iruhande rwe rw'iburyo, hari ibikapu bibiri.

Umugore ahetse umwana, yambaye inkweto zifunguye, yambaye igitenge cy'icyatsi, umwana yamushyizeho agashuka k'umweru, yambaye igitambaro mu mutwe cy'igitenge ari muri kaburimbo.